Urupapuro rwamamaza ruriho amashusho y'umugabo wambaye ingofero y'umweru n'umupira w'umweru, uri kumwe n'umugore wambaye umupira w'umweru uteru mwana ,bafite urupapuro ruriho amafaranga yatsindiye, bikaba byarashyizwe hanze n'ikigo cy'ubwishingizi cya radiyati yacu.

Urupapuro rwamamaza ruriho umugabo wogoshe uri guseka wambaye ishati y'umweru na karuvati y'umukara uri imbere y'urukuta rusa umweru, hari ubutumwa bw'ubwishingizi bwa sonarwa, ubwishingizi ntibuteye ubwoba iyo buri mu maboko mazima, hariho numero yo guhamagara ibihumbi icyenda.

Umuturirwa muremure ugeretse kenshi ufite ibikuta bitukura n’ibindi by’ibirahure by’ubururu. Wanditseho amagambo Saham ubwishingizi, imbere yabo hari ipoto ry’amashanyarazi n’amatara yo mu muhanda yemerera abantu kugenda.

Imodoka y'amabara menshi yiganjemo umuhondo, icyatsi, umweru n'ubururu, ifiteho ibirango by'ibigo by'ubucuruzi bya banki ya BPR, biri mu muhanda wa kaburimbo ufite umukindo urimo ubusitani bwegeranye n'igipapuro kirekire cyamamaza ikigo cy'ubwishingizi cya shaniramu, hakurya hari abantu benshi bahagaze bari kugenda mu muhanda.

Urupapuro rwamamaza rwashyizwe hanze n'ikigo cy'ubwishingizi cya buritamu, ruriho ubutumwa buvuga ngo ramba na buritamu. Ese waruziko hari ubwishingizi bwo kwivuza buhendutse bwagenewe ibigo bitandukanye, andi magambo yanditswe igishushanyo cy'umutuku ibigo bito, ibigo bito by'imari, sako n'amakoperative, ibigo bya leta, ibigo by'amashuri, ibigo by'abihaye Imana, hariho n'aho wabasanga.

Urubaho rurerure rw'umutuku rwamamaza, ruriho ishusho y'umwana wambaye ingofero y'umukara umupira w'umukara n'ipantaro y'umweru, ufite igiti cy'umukara mu ntoki ze hariho nimero yo guhamagara.

Inzu ifite amabara y'ubururu y'amatafari ahiye asi ikigina ndetse n'umweru afitebona amagambo yandikijwe mu ibara ry'umweru avuga ngo Nyarugenge Disitirigite hosipito akikijwe n'utubabi duke tw'icyatsi.

Urupapuro rwamamaza, rwashyizwe hanze n'ikigo cy'ubwishingizi cya sonarwa, ruriho umuntu wambaye ishati y'ubururu, ifite ibipesu by'umweru, wambaye amadarubindi, ufite na terefone ngendanwa mu ntoki, kiriho ubutumwa uvuga ngo "wihangayika, ohereza ibisabwa byo kumenyesha impanuka igihe cyose, aho uri hose".

Aya ni ameza ari mu nzu, bigaragara ko aya meza ari ayokuriho arimo n'intebe nazo zibaje mu biti ariko aho bicarira hariho imisego.

Urupapuro rwa sisitemu ya banki ,ya zigamacieses yo kuri murandasi rugaragaza aho wakirwa winjiye aho ushyiramo ikikuranga cyo kuri murandasi n'umubare cyangwa ijambo banga, ubundi ukinjira.

Paji ya porogaramu yo kuri murandasi y'ikigo cy'ubucuruzi cya banki ya Kigali, isa umweru n'ubururu, ifite aho ukoresha winjira ugashyira izina ukoresha ugashyiramo n'ijambo ibanga ryawe, ubundi ukinjira.

urupapuro rwa porogaramu yo muri terefone ngendanwa rusa umuhondo, rufite uruziga rw'icyatsi, n'akamenyetso k'umweru, ruriho ubutumwa buvuga ngo amafaranga wohereje yagiye neza, amafaranga wohereje magana atanu, yagiye kuri nimero magana abiri mirongo itanu, mirongo inani n'umunani karindwi kane icyenda kabiri zeru, byarangiye.

Sisiteme ikoreshwa n'ikigo cy'itumanaho cya emutiyene iba muri terefone ngendanwa yagenewe abakiriya bayo, kugira ngo boroherezwe kwakira kohereza amafaranga kubitsa no kubikuza, kwishyura ibintu gushyira amafaranga kuri banki no kureba ibyakorewe ku ikarita yabo y'itumanaho.

Sisitemu ya banki ya Kigali ikoreshwa muri telefone ngendanwa, igaragaza imyirondoro y'umukiriya na konti ye, aka kanya n'amafaranga yishyura ubukode n'amafaranga ahembwa ku kwezi n'amafaranga akoresha ahahisha.

Sisitemu y'ikoranabuhanga, y'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni, ikoreshwa muri telefoni ngendanwa, yifashishwa mu kwishyura, kohereza amafaranga ukoresha ikarita y'itumanaho ya emutiyene, kureba ibyakorewe kuri simukadi yawe, igaragaza nimero n'amafaranga magana atandatu.

Abagore benshi n'abagabo benshi bicaye ku ntebe bari mu nama batumbiriye imbere yabo bafite amazi yo kunywa ndetse n'ibindi bintu byo kunywa imbere yabo hari amamashini ndetse hari n'indangururamajwi zibafasha kumvikana.

Sisitemu yo kuri telefone ikoresha murandasi igaragaza amateka cyangwa ibyakozwe kuri konti yawe, hariho ibyakozwe bigera muri bine tariki makumyabiri n'enye z'ukwa cumi n'abiri bibiri na makumyabiri na kane.

Ubutumwa bwoherejwe kuri telefonine ngendanwa bugaragaza amafaranga yakiriwe na konti na konti yatanze amafaranga angana n'ibihumbi bine, y'amafaranga y'amadolari cyakozwe tariki cumi n'eshatu z'ukwa cumi bibiri na makumyabiri na kane, saa kumi n'imwe n'iminota mirongo ine.

Sisitemu ya banki ikoreshwa muri telefone ngendanwa, yorohereza abakiriya ba banki: kohereza amafaranga kuri konti yabo, kubitsa no kubikuza, kwaka inguzanyo kwishyura ibintu, kwishyura imisoro n'ibindi.

Sisitemu ya banki yo kuri telefone iri ku kumba ko kohereza amafaranga, kohereza amafaranga kuri konti yanjye, kohereza kuri konti ya zigama, kohereza kuri mobayiro mani, koherezwa kuri konti z'indi banki.

Inzu y'ubucuruzi ifite umuryango n'amadirishya by'ibirahure byakamo amatara y'umweru ifite icyapa kiranga ubucuruzi cyanditswe mu magambo y'icyatsi ngo avesimati, ubucuruzi bukorerwamo ni ubw'inkweto, imyenda y'amabara atandukanye.

Umugore ufite ibisuko by'umukara wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umweru uri gupima uburemere bw'igikapu giteretse ku munzani, uri gukorera mu iduka ry'imyenda yiganjemo imipira, ifite igikuta gifite irangi ry'umuhondo.

Ishusho yafashwe igaragaza igikoresho cyifashishwa kwamamaza imyenda cyambaye ikositimu y'umweru n'ishati y'umweru na karuvati y'umweru, biri ku rupapuro rw'umukara ruriho amazina.

Ububiko bw'ibicuruzwa birimo inkweto zifunze, inkweto zifunguye, ibikapu binini, ibikapu bitoya by'amabara y'umuhondo, icyatsi n'umukara bidozwe mu ruhu, biri gucuruzwa bipanze ku murongo.

Iduka rifunguye ricuruza ibikoresho byo mu nzu, matora, intebe zikoze mu buryo butandukanye, ameza, utubati, tujyamo inkweto n'utwo bashyiramo ibindi bintu, intebe za purasitike zigerekeranye.

Abagabo babiri umwe wera n'undi wirabura bari mu bucuruzi bw'imodoka ntoya ifite ibara ryikijuju, bari guhererekanya urufunguzo umwe afite agakapu gatukura inyuma yabo hari igiti cy'icyatsi kirekire.

Imodoka nini yo mu bwoko bwa kwasiteri yifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu byabo ikaba ifite imyanya makumyabiri n'icyenda ikaba ifite ibara ry'umweru, ikaba iparitse hagati y'andi mamodoka menshi.

Imodoka ntoya yo mu bwoko bwa kiya ifite amabara y'umukara n'amapine asa, ihagaze imbere y'imodoka ntoya isa umweru.

Imodoka ngufi ifite amabara y'ubururu, ikaba ifite amatara y'umweru, ikaba iri aho hari uruzitiro rw'ubururu, inyuma yaho hari ibiti birebire by'icyatsi.

Ibinyabiziga bine, harimo bitatu byo mu bwoko bwa toyota bwi'modoka ntoya; n'ikindi kimwe cyo mu bwoko bwa fuso bw'imodoka yikorera ibintu; biparitse imbere y'uruzitiro rw'amatafari, inyuma yayo hari ibiti n'ububiko busa ubururu.

Imbere y'ikigo gicuruza kandi kikanakodesha imodoka Akagira motozi, hahagaze imodoka yo mu ubwoko bunini gafuso y'umweru ndende, imbere yayo hahagaze abagabo babiri bari berekanye, urufunguzo rw'umweru rwanditseho Akagera motozi aba na ga.

abagabo babiri barimo umwe wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ubururu n'inkweto z'umukara n'undi wambaye ishati y'amabara y'umweru n'ipantaro y'ikigina n'inkweto z'ikigiga, bari guhererekanya urufunguzo rw'imodoka, inyuma yabo hari imodoka ntoya isa umukara, n'inzu ifite ibikuta byu'muhondo isakajwe amabati ifite n'amatara ari kwaka.

Amafaranga y'u Rwanda ifite agaciro k'ibihumbi bitanu irambitse ku meza y'urubaho, inoti yatanzwe na banki nkuru y'u Rwanda ikaba iriho igishushanyo k'ingagi, ikaba iriho umukono wa komiseri nkuru ya banki y'igihugu, ikaba iriho amagambo amafaranga ibihumbi bitanu.

Icyumba kirimo ikigo cy'ubucuruzi cya banki kirimo abakiriya bagera kuri batandatu bahagaze ku murongo, bategereje ko bakirwa n'umukozi wa banki uri inyuma yikirahure wicaye imbere ye hari mudasobwa.

Umugabo wirabura, wambaye: ishati na karuvati n'umupira w'ubururu, n'ipantaro y'umukara, wambaye mu gatuza umugozi uriho ikarita y’akazi, ufite amafaranga y’inoti menshi mu ntoki; iruhande rwe hari akamashini kifashishwa mu kubara amafaranga. Ari mu biro ni umukozi wa banki.

Icyumba kirimo ikinyabiziga cy'igare gifite imbuga nini y'ibitaka irimo ipikipiki ihetse icyuma gitwara amata, irimo abanyamaguru n'ipikipiki yegereye umuhanda ufite ubusitani burimo ibiti birebire.

Icyumba cy'ubucuruzi bw'ibyo kunywa n'ibyo kurya, gifite ububiko bukonjesha butukura, n'ubusa ubururu, gifite ibikuta bisize amarangi y'ubururu n'umweru; harimo intebe zo kwicaraho z'ubururu n'umweru, harimo abacuruzi babiri bicaye imbere yabo, hari ameza yikigina n'ay'umweru.

Abantu babiri bahagaze n'umwe wicaye bari imbere y'ameza y'umukara ateretseho isahani iriho umureti ukozwe mu magi n'igikombe n'isosi n'urusenda.

Icyumba cy'ubucuruzi gifite umuryango umwe w'ikigina n'ibikuta by'umweru, kirimo intebe y'umuhondo n'ameza, kirimo icyuma kirimo amata n'umukobwa wambaye ikabutura n'umupira w'umweru ufite terefone mu ntoki.

Icyumba cy'ubucuruzi bw'ibyo kurya n'ibyo kunywa gifite ibikuta by'ubururu kikagira udutanda turiho ibicuruzwa by'ibyokunywa birimo, amata imitobe ikomoka ku mbuto kakagira agatanda kariho ibirahure karimo ibikomoka ku ifarini.

Inzu y'ubucuruzi ifite amabara y'ubururu, ifite umuryango umwe ifite amagambo yanditseho ngo inyange ikunze gucuruza ibikomoka ku mata, n'amata, n'amazi n'imitobe, hanze haparitse imodoka y'umweru.

Urupapuro rwamamaza rw'icyatsi n n'umweru rw'ikigo cy'ubwizigamire cya sipeni, bwamamaza n'amagambo agira ati amafaranga make watangiza none yakubaka ejo heza h'abana bawe, hariho igishushanyo cya telefoni n'ishusho y'umuntu uri kuzigama.

Sisitemu yifashishwa mu gukoresha amafaranga adafatika yitwa ikashi iriho, aho ukoresha telefone yawe ngendanwa ugakoresha konti zawe za banki zitandukanye harimo: ecobanki, zigama, Ayiendemu banke, copedu, agisesi n'ibigo by'itumanaho bya emutiyene na eyateli.

Urupapuro rw'umweru rwamamaza ikigo k'itumanaho cya eyateri, ruriho ishusho y'umukobwa ufite imisatsi isutse y'umukara, uri gukanda akamashini k,umweru. Rushishikariza abantu kwishyura umuriro ukoresheje eyateri mani kanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri kane akanyenyeri rimwe akanyenyeri urwego.

Urupapuro rw'umweru rwandikishijweho n'inyuguti z'umukara hariho ikitonderwa rugaragaza icyemezo kizamara amezi atatu gusa rugaragaza aho byakorewe n'amatariki rukagaragaza n'uwabikoze batamuriza hadara n'umukono we .

Ifishi iri ku rupapuro rw'umweru yanditse mu magambo y'umukara igaragaza ko imyirondoro yatanzwe ahakurikira ari iy'umukozi wizewe, imyirondoro harimo amazina aha agiye umukono, itariki n'icyemezo cyibyemeza.

Urupapuro nyemezabwishyu rwatanzwe n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda rufite agaciro k'ibihumbi icumi by'aamanyarwanda rwahawe ikigo gitunganya ibikomoka ku ifarini kitwa sayinete befere byatangiye mu karere ka Kicukiro.

Urupapuro rwera ruriho amasezerano y'imikoranire hagati ya leta ihagarariwe n'akarere ka Bugesera n'ikigo cy'ubucuruzi cya Tekinologi Purinti Limitedi gifite ubucuruzi bwo gusohora impapuro, gufata amashusho no kuyatunganya.

Urupapuro nyemezabwishyu rwatanzwe n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda rwahawe ikigo cy'ubwishingizi cya pirayime eshuwarensi cyatanzwe tariki ya mbere z'ukwa kabiri bibiri na makumyabiri na rimwe, cyatangiwe i Nyarugenge gifite umubare w'amafaranga ibihumbi icumi buri kwezi guhera mu kwa mbere kugera ku cumi n'abiri.

Icyemezo cyo kutabamo umwenda w'imisoro cyo kuri murandasi, cyatanzwe n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, cyahawe ikigo gicuruza amarange ameki koro, gifite ubuziranenge guhera tariki cumi n'ebyiri z'ukwa munani bibiri na makumyabiri na gatatu kugeza cumi n'imwe z'ukwa cumi na kumwe bibiri na makumyabiri na gatatu.

Urupapuro rw'umweru rwatanzwe nikigo cy'ubucuruzi cya banki cya Giti banki kiriho imyirondoro y'umukiriya n'ibyakorewe kuri konti ye guhera tariki mirongo itatu z'ukwa kane bibiri na makumyabiri na gatatu, igihe itariki makumyabiri n'imwe z'ukwa kenda bibiri na makumyabiri na gatatu, amazina y'umukiriya ni Esperance Mukankusi.

Urupapuro rw'bwishyu rwatanzwe n'ikigo gishinzwe imisoro namahoro mu Rwanda, rwahawe ikigo cy'ubwishingizi cya purayimu inshuwarensi bwatanzwe ku tariki ya mbere y'ukwa kabiri bibiri na cumi n'icyenda, kikaba kizarangira makumyabiri n'umunani z'ukwa bibiri bibiri na cumi n'icyenda, kishyuwe amafaranga ibihumbi makumyabiri byakorewe mu karere ka Ngoma.

Urupapuro nyemezabwishyu rwatanzwe n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe imisoro n'amahoro, rwahawe ikigo cy'ubucuruzi gicuruza amarange cya Ameki koro, bwatanzwe ku musoro w'umutungo, byatangiwe mu karere ka Gasabo, byatanzwe tariki ya mbere z'ukwa mbere bibiri na makumyabiri na rimwe, bifite agaciro k'amafaranga y'u Rwanda angana na miliyon imwe n'ibihumbi magana atanu mirongo icyenda n'umunani, byakorewe kuri murandasi.

Iduka rucuruza imyenda itandukanye, akaba ari imyenda ikorwa mu bitenge, akaba ari imyenda ikorerwa mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Akaba ari imyambaro y'abagore, abagabo abana, abasore , abadamu ndetse n'abagore.

Impapuro nyemezabwishyu cyatanzwe n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda cyahawe ikigo cy'ubwishingizi cya piurayime inshuwarensi, byakorewe i Rusizi byerekana igihe ntarengwa cyo kwishyura n'igihe agomba gutangira kwishyura bifite agaciro k'amafaranga ibihumbi icumi y'amanyarwanda, byakozwe n'umuyobozi w'icyo kigo Ismail Semukanya.

Urupapuro nyemezabwishyu rwatanzwe kandi rugakorwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda rugatangwa ku kigo gitunganya kandi kigatanga amashanyarazi ngari hydro power cyakozwe tariki ya mbere z'ukwambere bibiri na cumi na karindwi gifite agaciro k'amafaranga ibihumbi mirongo itatu y'amanyarwanda cyakorewe mu karere ka Ngoma.

Ikiganza kera cyambaye ikoti ry'umukara gifite inoti zirindwi z'amayero, harimo imwe ya mirongo itanu imwe ya mirongo itatu, eshatu za makumyabiri n'ebyiri z'ijana.

Ibiceri bikozwe mu ibuye ry'ifeza byinshi birambitse ku rupapuro rw'umweru ruriho imibare yanditswe mu ibara ry'umukara, iruhande hari inote y'agaciro k'amafaranga makumyabiri y'abanyamerika, iruhande hari ikibarisho cy'imibare.

Ibiganza by'umukara bifite amafaranga yo mu Rwanda yiganjemo inote za bibiri zisa icyatsi, munsi harimo igipapuro kiriho ikigo cy'itumanaho cya eyateri n'igikarito kibamo terefone ngendanwa ntoya, hakurya hari urupapuro rw'umweru rwanditseho n'inyuguti z'umukara.

Ibiganza bibiri by'umuntu bifite inoti ebyiri z'ijana ijana z'amafaranga y'amadolari y'abanyamerika, inyuma hari igipapuro cyanditseho banki y'ubuhinde n'amafaranga y'amahanga.

Inote z'ijana z'umweru z'amafaranga y'amadorari y'abanyamerika nyinshi zikunze gukoreshwa mu bucuruzi bwambukiranya imipaka, zigakoreshwa mu gihugu cya Amerika no mu bindi bihugu cyane cyane mu ivunjisha.

Niba ufite indoto zo gukorera ibirori n'ibitaramo ahantu heza rwose ndakuragira hiritopu hoteli, iherereye mu giporoso ntabwo ari kure, ugera i Remera ukaba urahageze bagane bagufashe.

Umukiliya wambaye ishati y'amaboko magufi irimo imirongo y'umweru n'ikijuju, ari kwakira inoti enye z'ijana z'amafaranga y'amadorari, hagati ye n'umucuruzi hari ikirahure kibonerana.

Inote y'umweru n'icyatsi, iriho umubare gatanu, amafaranga akoreshwa mu Gihugu cy'Ubuhinde azwi nk'amarupe, ariho ishusho y'umugabo wambaye amadarubindi ufite uruhara witwa Mahati Megande yandikishijweho ururimi rw'Igihinde.

Inzu z'ubucuruzi zigeretse kabiri zifite inkingi z'umweru ziriho ibyapa byamamaza inzu z'ivunjisha, za asosiyasiyo ya Nshuti. Umuhanda w'abagenzi hari kunyuramo abagenzi benshi hari imitaka y'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni n'ibiti birebire.

Inzu y'ubucuruzi ifite ibikuta by'umuhondo ikagira umuryango umwe w'amabara y'ubururu, ufite icyapa kiri ku muryango cy'ubururu n'umweru kiriho ikigo gikora ubucuruzi bw'ivunjisha ry'amafaranga cyitwa minimekisi.

Inzu y'ubucuruzi isa umuhondo kandi ishaje ifite umuryango w'umweru hakorerwamo ubucuruzi bw'ivunjisha, hanze hari taburo iriho ibiciro by'ivunjisha, hari n'ivase y'umweru ifite ururabo rw'icyatsi.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'ubururu utagaragara amaso, wicaye ku ntebe ikozwe mu rubaho, wicaye kuruhande rwikibaho kiriho ibiciro by’ivunjisha ry’ikigo cy’ubucuruzi cya Runi. Hariho ivunjisha ry’amadorari, amafaranga yo muri canada, amafaranga ya Cantire Afurike, amayero, amafaranga y’ipoundi, abashinwa n'amashiringi.

Igipapuro cy'umuhondo kiranga ibiro by'ivunjisha by'uwitwa cambiyo weseli kigaragaza ibiciro by'amafaranga y'abanyamerika, y'amafaranga y'amayero, y'amafaranga y'amasisi, by'amafaranga ya astralia, y'amafaranga mubuyapani ukuntu avunjishwa yose.

Icyumba gifite ibikuta by'umweru, kirimo ibikoresho byo mu rugo byiganjemo igitanda cy'ikigina gifite umufariso w'umweru, hakabamo n'ameza y'umweru afite amaguru y'umuhondo n'intebe zifite umwenda w'icyatsi n'amaguru y'umuhondo.

Intebe esheshatu zifite umwenda w'umukara n'amaguru y'umuhondo zikikije ameza y'umukara ateretseho ibikombe byera, biri mu cyumba gifite ibikuta by'umweru birimo n'izindi ntebe zo kwicaraho z'umukara.

Uruganiriro rufite ibikuta bisize amarange y'umweru n'amadirishya n'imiryango y'ibirahure, rufitemo intebe z'umwenda z'umukara zifite amaguru y'umuhondo n'ameza y'umweru afite amaguru y'umuhondo.

Ibikoresho bibajwe mu mbaho byiganjemo intebe n'ameza yo kuriraraho, biteretseho indabyo z'icyatsi n'izu'mwe biri kugurishwa mu nzu y'ubucuruzi ifite inkingi y'umweru.

Ibikoresho byifashishwa mu ruganiriro byiganjemo intebe z'umwenda w'umweru n'umwenda w'umutuku n'ameza y'umweru n'utumeza duto tw'umweru dufite amaguru y'umuhondo biri mu nzu nini ifite imiryango y'ibyuma n'ibirahure by'umukara ifite urukuta rusa umweru.

Inzu izengurutse amazi y'ubururu ifite isakaro ry'imbaho, hari intebe z'umuhondo n'ameza ariho ibitambaro by'umweru ateretseho amatara, hakuno hari amatara ateretse hafi y'amazi.

Imbere yanjye ndahabona umuryango ufunguye usize irangi ry'umuhondo hejuru yaho handitseho wesitani uniyoni, harimo abantu benshi bari kuhagana binjira bashaka serivisi za wesitani yuniyoni.

Umuturirwa muremure ufite ibikuta byubatswe amatafari ahiye y' umutuku ukagira amadirishya y'umuhondo n'umukara, ukaba ufite n'ibirahure birebire byirabura ufite umuhanda urimo imirongo y'umweru n'umukara uka ufite n'ubusitani bwiza burimo indabo z'icyatsi.

Cy'inama giteye irangi ry'umweru ku gikuta gifite amadirishya y'ibirahure kirimo intebe z'umukara zirebana, n'ameza y'umukara arebana ateretseho amazi yo kunywa n'udutabo. Imbere hari igitambaro cyakira kikanagaragaza amashusho.

Inzu ifite ibikuta by'umuhondo izengurutse amazi bogeramo, ikaba ifite intebe zifashwa nk'udutanda ku ruhande z'umukara ziriho imyenda yo kwihanaguza y'ubururu, zikaba zisakajwe n'isakaro ry'ubururu.

Icyumba cy'inama kirimo intebe, ameza biteye birebana n'impapuro zirambitse ku meza, n'amazi yo kunywa arambitse ku meza n'insakazamajwi, n'insakazamashusho, n'amatara yaka menshi.

Utubati twiza dushyashya bari gusiga amarangi ukaba wadukoresha ubikamo ibintu yaba imyenda, ndetse n'imitako.

Umuhanda ukoze neza hagati harimo umurongo w'umweru wihese, umuntu uri ku kinyabiziga cy'ikinyamitende n'undi uhagaze mu kayira k'abanyamaguru mu mpande zawo hari amazu ahakikije n'ibyuma birebire biriho insinga z'amashanyarazi nyinshi.

Icyumba gifite ibikuta bisize amarangi y'umweru. N'urusengero rusa umweru ruriho amatara, n'intebe z'umukara enye, n'ameza y'umweru ariho indabyo z'amabara, hari n'igiseke kirimo ururabo rw'icyatsi n'ibitaka by'umukara.

Icyumba gisize amarangi y'umweru gifite imiryango y'ubururu kirimo intebe z'umukara n'ameza abiri y'umweru, ameza ariho mudasobwa n'impapuro. Gihagazemo umugabo wambaye kositimu y'umukara n'inkweto z'umukara n'ishati y'umweru.

Icyumba cy'akazi kirimo abakozi batatu bambaye amashati y'umweru bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo hateretse mudasobwa na terefone bamwe bafite amacupa y'amazi imbere yabo hari umurongo wicayeho abakiriya bategereje kwakirwa hari n'umugabo ufite igitabo cy'ubururu wambaye ishati y'umweru uri kugenda.

Igitaramo cy'abahanzi b'abanyamerika bitwa Boyizi tu meni kizabera muri stade ya Bike Arena kuwa gatandatu tariki makumyabiri n'umunani z'ukwa cumi bibiri makumyabiri na gatanu guhera saa kumi n'umwe. Cyatewe inkunga na banki ya Kigali nugura itike yawe uyu munsi ukoresheje ikarita ya banki ya Kigali Arena, urakurirwaho mirongo itatu ku ijana.

Urupapuro runini rw'ubururu ruriho ishimwe cyangwa igihembo cyahawe banki nziza mu Rwanda ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, kikaba cyarahawe ikigo cy'ubucuruzi cya banki ya ayi endemu banki.

Urupapuro rwamamaza, rusa umweru n'ikiju, rwashyizwe hanze na kampanyi y'ubucuruzi ya giti banki. Ruriho imodoka, inzu, n'ibyo kurya. Ruriho amagambo yamamaza, avuga ati: "Shyira hasi ibyo utakazaho amafaranga".

Icyumba gifite ibikuta by'umweru biriho amatara n'isakaro ry'urubaho birimo abantu benshi bambaye imipira y'icyatsi n'udupfukamunwa bari gufata ishusho, inyuma yabo hari igitambaro kinini cy'umweru n'umukara, cyandikishijweho amagambo ari mu nyuguti z'icyatsi n'umukara.

Urupapuro rwamamaza rwashyizwe hanze n'ikigo cy'ubucuruzi cya banki ya ekwiti, ruriho ishusho y'umugabo wambaye igisarubeti cy'ubururu n'umupira w'umutuku ruriho ubutumwa buvuga ati fata inguzanyo itazigamiye igera ku mafaranga miliyoni mirongo ine z'amanyarwanda udatanze ingwate, hagamagara kane gatanu eshatu cyangwa usure icyicaro cyacu kikwegereye.

Abagore batanu bambaye imikinyero isa y'mweru n'ubururu n'amasengeri y'umutuku bose bateze urugari rw'umweru, bari imbere y'ikigo cy'ubucuruzi cya banki cyitwa Unguka fiyinance, iruhande harirumugabo wambaye umupira w'ubururu n'amadarubindi imbere yabo hari imodoka ntoya y'ibara ry'ubururu.

Ifishi iri ku rupapuro rw'umweru yanditse mu magambo y'umukara igaragaza ko imyirondoro yatanzwe ahakurikira ari iy'umukozi wizewe, imyirondoro harimo amazina aha agiye umukono, itariki n'icyemezo cyibyemeza.

Urupapuro rw'ubururu rwakozwe n'ikigo cy'ubucuruzi cya banki ya giti banki. Ruriho ishusho y'umukobwa wambaye umupira w'ubururu n'ishati y'ubururu, ufite telefone mu ntoki, werekana uko wakoresha sisiteme ya banki kuri telefone yawe. Aho ukandi akanyenyeri, magana atandatu, urwego.

Umukozi w'ikigo cy'ubucuruzi wambaye umupira w'umuhondo n'ikoti ry'umukara n'ikarita y'icyatsi y'akazi mu ijosi ari kwakira abakiriya babiri, inyuma ye hahagaze umugabo wambaye ikositimu y'ubururu n'ikarita y'akazi y'ubururu mu gatuza na karuvati n'ishati y'ubururu, iruhande rw'abakiriya hahagaze umugabo wambaye ikositimu y'ubururu, umukandara w'umukara n'ishati y'umweru.

Inzu y'ubucuruzi ifite igikuta cy'umuhondo n'umuryango munini usa ubururu, urimo abacuruzi b'abamamama bakennye ibitenge batatu bahagaze n'umwe wicaye, bari gucuruza imboga, urusenda n'inyanya.

Isoko ry'imyenda ririmo amapantaro yiganjemo ay'umukara amanitse ku giti n'amashati n'imipira byamabara bimanitse hejuru, ririmo abaguzi n'abagurisha benshi bikusanyirije hamwe baganira.

Isoko riri kuberamo ubucuruzi bw'imboga n'imbuto, ririmo umucuruzi wambaye umupira w'umweru n'umukara n'igitambaro cy'ubururu mutwe, ari gucuruza imbuto ziganjemo inanasi imyembe n'imboga ziganjemo amabara y'umuhondo n'ay'umutuku n'icyatsi.

Inzu ndende y'ubucuruzi igereretse kane igizwe n'ibikuta by'umuhondo n'umutuku n'ibirahure by'ubururu, ifite ibipapuro by'umuhondo imbere yabyo by'ikigo cy'itumanaho cya emutiyene, imbere yayo hahagaze imodoka ntoya nyinshi ziganjemo iz'amabara y'umweru.

Aba ni abantu benshi bari ahantu hamwe higanjemo abagore ndetse n'abagabo, bazamuye ibiganza byabo hejuru bafite amadarapo yanditseho FPR agizwe n'umutuku umweru n'ubururu.

Ubucuruzi bw'ibiribwa burimo inyanya imineke, ibinyomoro, ibishyimbo, umuceri ifu ya kawunga, n'amashaza, n'umugore w'umucuruzi uri kubicuruza ufite ibikapu bibiri by'amabara y'ubururu n'umuhondo.

Isoko rusange ricurururizwamo imyenda yiganjemo imipira yo kwambara amapantaro, amasengeri n'amashati ririmo abagabo n'abagore bari gucuruza n'abaguzi baje kugwa isakajwe amabati y'umutuku nay'ubururu ashaje cyane.

Umugore w'umucuruzi uri guseka, ari kugurisha imbuto ziganjemo iz'umuhondo, icyatsi, n'umutuku. Ari kugurana n'umuguzi wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'ikijuju. Ufite agakapu k'umukara ari guhahiramo.

Urujya n’uruza rw’abantu mu isoko ry’ibiribwa risakaye rifite inkingi z’ibiti. Hari kugurishirizwamo inoryi, miteja, karoti, inyanya, harimo abacuruzi b’abadamu n’ab’abagabo, n’abaguzi b’abagabo n’ababadamu.

Urujya n'uruza rw'abantu bakubiyemo abacuruzi n'abaguzi bategerereje hanze mbere yuko bakirwa bari ku nzu y'ubucuruzi ya rezidenti hoteli ifitemo na hoteri n'aho barira.

Umuturirwa muremure ufite ibikuta by'umuhondo wiganjemo ibirahuri by'ubururu uri imbere y'ikusanyizo ry'imihanda ririmo abagenda n'amaguru, amatara ku muhanda n'imodoka ngufi n'amapikipiki.

Kwishyura kuri kode y'ikigo cy'itumanaho cya Emutiyene, aho ukanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri umunani, akanyenyeri rimwe, akanyenyeri kode y'umucuruzi ugashyiramo amafaranga ukoresheje telefone ntoya ifite aho ukanda.

Umukozi wambaye umupira w'umweru ufite ikora ry'umuhondo ririho ikirango cy'ikigo cy'itumanaho cya emutiyene, ahagaze imbere y'urubaho rw'umweru n'umuhondo ari kuganira n'umukiriya hagati yabo hari mudasobwa y'umukara.

Abagabo babiri, umwe wambaye umupira w'umuhondo n'ubururu w'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni n'ingofero y'umuhondo, n'undi wambaye ikoti ry'umukara bafite terefone mu ntoki, inyuma yabo hari imodoka ntoya y'umukara, inyuma yayo hari inzu ifite amarangi y'umweru n'amadirishya y'ubururu.

Akazu gatukura, kanditseho ikigo cy'itumanaho cya eyateri mu nyuguti z'umweru, gakikijwe n'umugore wicaye wambaye umupira w'umuhondoho n'umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka y'umweru.

Icyumba cy'ubucuruzi k'ikigo k'itumanaho cya eyateri, kirimo insakazamashusho n'amatara y'umweru, kirimo abakozi b'icyo kigo bambaye imipira y'umutuku, kirimo intebe zicayeho abakiriya bategereje ko bakirwa, n'abakiriya bahagaze bari kwakirwa.

Uburyo bwo kwishyura kuri kode ukoresheje emutiyene byanditse ku gipapuro cy'umweru kanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyiri gatatu urwego kode momo peyi zeru zeru zeru zeru umunani rimwe ntayandi mafaranga wishyuzwa celestin Design.

Umugabo umwe wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umukara, akoresheje terefone ari gufata amakuru, ayakuye kuwundi mugabo wambaye umupiraro y'umukara, n'ipantaro y'ubururu, ufite igare risa umuhondo. Inyuma ye hari igipapuro kinini cyane cy'umurongo witumanaho wa Emutiyene.

Akazu k'ubucuruzi k'umuntu umwe kubakishijwe ibyuma n'amabati bisa umutuku n'umukara, kanditseho amagambo aranga ikigo cy'itumanaho cya eyateri, hariho ishusho y'umukobwa ufite imisatsi miremire wambaye n'umupira w'umuhondo n'umutuku, gaherereye hagati y'ibiti, kari hejuru y'ibitaka.

Urutonde rugaragaza ibigo by'ubucuruzi bwo kuri murandasi rukoresha aho biherereye kuruta ahandi Leta zunze ubumwe z'Amerika Leta zunze z'abongereza, abadage, abarusiya, abahinde muri Kanada Ositarariya, Faranse, ubushinwa abataliyani abaholrandi Brazil Esipanye Taki, na Poland.

Urupapuro rwamamaza ruriho ubusitani n'ishyamba n'umugabo utwaye ipikipiki ihetse igikapu kigemura ibiryo, yambaye umupira w'umutuku n'ingofero y'ubwirinzi y'umutuku, cyashyizwe hanze n'ikigo cy'ubucuruzi cyitwa rashifuduzi.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu irimo utudomo tw'umweru n'ipantaro y'umukara na sentire y'umukara, uhetse agakapu k'umutuku wambaye n'agafukamuwa k'umukara, afite igikapu cy'umuhondo agiteretse kuri moto y'ubucuruzi yanditseho yego, aho uhamagara icyenda rimwe icyenda rimwe bakagufasha.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ubusitani burimo indabyo ndende n'ibiti birebire n'amazu asakajwe amabati y'umutuku, wiganjemo amapikipiki atwawe n'abamotari bambaye amakoti y'umutuku n'ingofero z'ubwirinzi z'umutuku zanditseho yego moto, urimo n'imodoka ntoya y'umweru.

Ishusho yamamaza yashyizwe hanze n'ikigo cy'ubucuruzi cya Kanisi iriho ububiko bukonjesha n'amacupa y'inzoga y'icyatsi, ububiko bukonjesha bukorwarwa n'ibigo bitandukanye birimo samusanga nikoni ivzi, puma na polisi.

Urupapuro rwamamaza rufite amabara y'umuhondo n'ay'ubururu, ruriho ishusho y'umugabo wambaye urusarubeti rwakazi rw'ubururu ruriho ikirango cya sosiyete yikorera ibintu ya twiga, wikoreye umufuka w'umweru ruriho amagambo yamamaza.

Lisiti igaragaza amasoko yo kuri interineti yo mu Rwanda, harimo irifite akamenyetso k'icyatsi kariho s y'umweru ryitwa shopu fayi, harimo irifite akamenyetso k'umweru n'umutuku ryitwa magineto n'irindi ryitwa wu.

Urubuga rwo kuri murandasi rw'ikigo cy'ubucuruzi cya Afrika muvi maketi gitanga serivisi zo gucuruza ibihingwa kuri murandasi, ahariho imineke igurwa magana abiri, n'ibirayi bigurwa igihumbi magana abiri mi na mirongo itanu.

Urupapuro rwamamaza rw'icyatsi n'umweru rwashyizwe hanze n'ikigo cy'ubucuruzi gishinzwe gugemura cyangwa gutwara ibintu mu ngo z'abantu, iriho umukobwa ufite igitambaro mu mutwe cy'umweru wambaye ishati y'ubururu, ufite terefone ngendanwa mu ntoki iriho urupapuro rw'icyatsi rwanditseho vuba.

Umugore wambaye ikanzu y'amabara n'umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, ahagaze mu cyumba gifite ibikuta by'umweru n'ikijuju bifite amatara ku rusenge, birimo ameza y'urubaho n'intebe zirabura, hari akabati karimo amacupa n'ibikoresho byo murugo.

Umugabo wera, wambaye ingofero y'umweru, ufite n'agapfukamunwa k'umukara. Wambaye ishati y'ubururu, uhagaze ku kibanza kiri kubakwa. Kiriho ibiti birambitse, n'ibyuma bishinze. Ahari kubakaho amazu yo guturamo.

Inzu ifite ibikuta by'umweru, imiryango y'umweru, ibirahuri by'umukara, isakajwe amabati y'umukara. Ifite uruzitiro rwubakishijwe amabuye y'umweru n'ibyuma by'umukara, iragurishwa miliyoni mirongo icyenda n'eshanu iherereye i Kanombe i Kigali.

Umugabo wambaye isengeri y'icyatsi umukara n'ikijuju n'ipantaro y'umukara ari kuranga ibibanza bibiri birebana byo guhinga, munsi yabyo harimo inzu nini ifite igisenge gitukura hagati harimo umuhanda w'igitaka w'abanyamaguru.

Icyumba kinini gifite imiryango y'imbaho n'ibikuta by'umweru n'amabati y'umukara, kikaba kiri mu nzu ihagaze miliyoni ijana na mirongo itatu y'amanyarwanda i Kigali mu Rwanda.

Uruganiriro rw'inzu yo kubamo rufite ibikuta byera n'amadirishya yera afite n'amatara hejuru y'igisenge kiriho amatara atanu, ikaba igurishwa miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri i Kigali mu Rwanda.

Igikoni cya kijyambere kirimo aho bogereza ibintu, aho babika ibintu, n'aho batekera, kikaba kiri mu nzu ikodeshwa amafaranga y'abanyamerika igihumbi magana atanu ku kwezi, kikaba giherereye i Kigali mu Rwanda.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye ifite imiryango n'amadirishya by'umweru n'umukara isakajwe amabati y'umutuku igeretse kane, inzu y'ubucuruzi ikodeshwa amadorari magana atanu mirongo itanu ku cyumba, iherereye i Kigali mu Rwanda.

Inzu y'umuryango umwe n'amadirishya abiri bisa icyatsi. Inzu isizwe irangi uruhande rumwe, isize irangi ry'umutuku. Ni inzu y'ubukode iherereye i Kigali-Kanombe; ifite ibyumba bitatu, ubwogero bubiri, ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atatu y'amanyarwanda ku kwezi.

Inzu ifite ibikuta bisize amarangi y'umweru igeretse rimwe ifite imiryango yumukara, ifite akarindada abasazi gakozwe mu kirahure ifite urubaraza rushashemo amabuye ya kizungu yumutuku azwi nk'amapave rufite uruzitiro rw'umweru.

Inzu yo guturamo ifite amadirishya y'umuhondo n'umukara ikagira imiryango y'umuhondo n'umukara ifite urubarazaru'umweru n'ibikuta bisa umuhondo, isakaje amabati y'umukara ifite uruzitiro rw'amatafari ahiye ikagira urubaraza rushashemo amabuye ya kizungu.

Inzu y'umweru ifite umuryango umwe n'amadirishya abiri, ifite imbuga ishashemo amabuye ya kizungu, isakaje igisenge cy'ubururu kinini, ikodeshwa i Kigali i Kanombe ibyumba bine n'ubwogero butatu.

Inzu igeretse yo guturamo, ifite irangi ry'umweru n'amadirishya y'umukara, isakajwe amabati y'umukara, ifite uruzitiro rwubakishijwe amabuye, n'igikuta cy'umweru n'ubururu, n'ibyuma by'umukara.

Inzu nini yo guturamo ifite amadirishya abiri y'ibirahure n'umuryango umwe munini w'ibirahure, y'amabara y'umuhondo isakajwe amabati yenda gusuka, ifite imbuga ishashemo amabuye ya kizungu, akunze kwitwa amapave, afite uruzitiro rw'amatafari ahiye.

Uruganiriro rw'inzu rufite ibikuta by'umuhondo biriho amatara y'imitako rukagira amarido y'ikijuju ari ku madirishya, akagira ameza abiri y'umuhondo afite amaguru y'umukara amwe ateretseho insakazamashusho andi ateretseho indabyo biherereye i Gishushu-Kigali siti.

Inzu nini ifite amabara y'icyatsi n'umweru isakajwe amabati y'umutuku iri mu imbuga isashemo amabuye ya kizungu akunze kwitwa amapave, ifite uruzitiro r'yicyatsi n'uruzitiro rw'icyuma n'umukara mu mbuga hatemo igiti cy'imbuto.

Igikoni cy’inzu yo kubamo gifite aho bogereza ibyombo, utubati babikamo ibyombo, umuryango w'umukara n’urubaraza rwubakishijwe amabuye. Bikaba bikodeshwa ibihumbi ijana mirongo itanu ku kwezi. Ufite icyumba kimwe, ubwogero bumwe, n’igikoni kimwe.

Inzu iteye karabasasu isakajwe amabati ifite imbuga y'ibitaka irimo ubusitani bw'icyatsi, ifite imiryango y'umutuku n'ibirahuri by'umukara igurishwa miliyoni cumi na zirindwi Kanzenze.

Inzu yo guturamo nini ifite igikuta cy'amabara y'umweru n'umuhondo n'umukara, ikagira imiryango y'ubururu n'ibirahuri by'umukara, isakajwe amabati y'ikijuju, iherereye i Kigali, i Kanombe, ikaba igurwa miliyoni mirongo inani y'amanyarwanda.

Inzu yo guturamo yubatswe n'amakaro y'umweru n'ikigina ifite urubaraza rushashemo amabuye ya kizungu, ifite jaride, inzu yo gukodeshwa iherereye i Kigali, i Kanombe y'ibyumba bine n'ubwogero butatu.

Ikibanza kiri kubakwamo inzu yo guturamo itarasakarwa yubakishijwe amatafari y'umweru ifite ibyumba bibiri n'ubwogero, ikaba yabamo umuryango mutoya.

Icyumba cy'ubucuruzi gifite ibikuta bisize amarangi y'ubururu kirimo udutanda twinshi turiho ibicuruzwa higanjemo imboga z'umuhondo, umutuku, n'icyatsi. Hari umuguzi w'umukobwa wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'ubururu ufite umufuka wo guhahiramo, inyuma ye hari akagare batwaramo ibyo bahashye.

Inzu y'ubucuruzi nini irimo abaguzi n'abagurisha, irimo umuguzi ufite inanasi uri kuyipima ku munzani, akareba ibiciro byayo, ari gukoresha mudasobwa yishyura, hirya hari ibipapuro byamamaza, hino hari igiseke atwaramo ibyo yaguze.

Inzu y'ubucuruzi bw'ibyokunywa bikomoka ku gihingwa cy'ikawa. Burimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga. Harimo mudasobwa y'imashini yifashishwa gutunganya ibiva ku ikawa, harimo ibikombe n'imitako.

Isoko rya kijyambere ryubatse rigeretse ririmo amatara ari kwaka rifite ibiribwa byinshi bigeretse ku dutanda higanjemo imbuto, n'imboga z'amabara atandukanye harimo icyatsi, umuhondo, n'umutuku harimo abacuruzi bari gucuruza.

Umuguzi uhagaze imbere y'ibinyobwa bigizwe n'umutobe ,amazi n'inzoga .Byamabara atandukanye arimo umuhondo, ikigina n'umutuku ahagaze imbere y'agatanda bihagazeho ,kari munzu y'ubucuruzi nini ifite amatara ari kwaka.

Icyumba kinini cy'ubucuruzi kirimo abaguzi n'abagurisha b'abagore, kirimo amatara abiri yaka, kirimo imyenda y'ubururu, umweru, umutuku, irambitse n'andi makanzu y'amabara amanitse.

Imurikagurisha ririmo abacuruzi bane batatu b'abirabura n'umwe w'umuzungu n'umuguzi umwe, abacuruzi bari kumurika ibicuruzwa byabo birimo ibyuma bikata imboga, ibyuma bisya imboga ibyo gukoresha baboha n'ibyo gukoresha bakata.

Abantu benshi bazengurutse ikibuga gikinirwaho umukino w'amaboko ufite inshundura hagati uzwi nka voleboro, hakuno hari abicaye bitwikiriye umutaka kugira ngo izuba ritabica, hari ibitambaro birebire by'umweru byamamaza gahunda ejo heza n'ikigo cy'ubwishingizi cya RSSB.

Umugabo wambaye karuvati y'umweru n'ishati y'umukara. Imbere ye hateretse ifatamajwi, na telefoni zifashishwa mu gufata amajwi. Inyuma ye hari urutambaro rw'ubururu, rwanditseho amagambo y'ikigo cy'ubwishingizi cya arayesiyesibi.

icyumba gifite ibikuta bisize amabara y'umuhondo kikaba gifite isakaro ry'umweru, kirimo akabati karimo amakaye y'umutuku, kirimo n'abantu batatu bicaye n'abandi babiri bahagaze, hagati yabo hari ameza ateretseho ibitabo, bamwe bafite amakayi abandi bafite amakaramu bari mu gikorwa cyo gukosora.

Inzu isakajwe amabati y'umukara ifite igisenge cy'umweru ifite igikuta cy'umweru, n'inkingi zubakishijwe amatafari ahiye n'amadirishya y'umukara, iriho urupapuro ruriho ikirango k'igihugu ruriho amagambogambo asobanura ngo ikigonderabuzima cya Kabuzungu.

Abakobwa b'inzobere babiri bambaye imyenda y'umukara, umwe muri bo wambaye umupira w'umweru n'ubururu indani. Bateruye igishushanyo cyo mu labara y'ubururu gifite impande enye zitangana, inyuma y'abo hari igitambaro cy'ubururu kiriho ikirango cyikigo cy'ubwishingizi cya RSSB.

Ibiganza bibiri bifite impapuro z'umuhondo ebyiri ziriho imyirondoro n'amafoto y'umuntu, n'ikirangantego k'igihugu bisobanuye ko ari ubwishingizi bwo kwivuza, bwo mu buryo bwa mituweli, ibiganza bifite ikaramu y'ubururu.

Umuturirwa muremure ugizwe n'ibikuta by'umuhondo, n'ibirahure by'ubururu. Uriho iminara, ufite ubusitani burimo indabo nyinshi, n'idarapo ryubahiriza igihugu cy'u Rwanda.

Ibiro by'ikigo cy'ubwishingizi cya leta cy'u Rwanda kitwa ara esi rsi bi, hari ameza y'umweru ateretseho mudasobwa ebyiri n'abakozi babiri bambaye imyenda y'akazi isa ubururu, bahagaze imbere yabo hari abagabo bambaye ikositimu n'umwe muri bo wambaye amadarubindi.

Umuguzi uri guhahira mu cyumba cy'ubucuruzi gifite udutanda dutukura tugeretse kane turiho ibicuruzwa bitandukanye, harimo impapuro z'isuku imipira ingofero n'ibyo kurya n'ibyo kunywa, afite akagare ari gushyiramo ibyo yabuze.

Hoteri nini iri mu bwoko bwa etaje igeretse gatatu yanditseho giriti apatimenti hoteri ivuze ko ari hoteri nziza irimo amacumbi akodeshwa.

Umucuruzi ahagaze mu nzu y'ubucuruzi hagati, irimo ibyumba bitandukanye bicuruza, harimo icyumba gicuruza ibyuma by'ikoranabuhanga, harimo n'ikindi gicuruza inzoga n'imitobe.

Icyumba cy'ubucuruzi kirimo ububiko bw'ibintu bukonjesha, kirimo udutanda turiho imboga z'umuhondo, iz'umutuku n'iz'icyatsi turimo ububiko bw'inyama hariho n'ibiciro byazo.

Isoko ry'imboga n'imbuto higanjemo imboga z'amabara y'umutuku icyatsi umweru n'umuhondo, umugore w'imisatsi miremire, wambaye umupira wicyatsi ukikiye igisabo kirimo ishashi irimo imboga z'icyatsi ari kureba imboga.

Inzu y'ubucuruzi ya burudi, irimo imitobe, imigati, ibisuguti, amata, inzoga n'amavuta yo kwisiga, bipanzwe hamwe, biri gucuruzwa, hariho ibiciro bya buri kintu.

Icyumba cy'ubucuruzi, gifite isakaro ry'umuhondo, ririho amatara y'umweru arambuye. Gifite udutanda tugeretse inshuro nyinshi, twinshi, turimo ibicuruzwa bitandukanye. Byiganjemo ibyo kunywa, ibyo kwambara, impapuro z'isuku, hagiye hariho n'ibiciro byazo.

Icyumba cy'ubucuruzi cyiganjemo ibikoresho byinshi biteretse ku dutanda kigeretse kane, kirimo umugurisha wambaye umupira w'umuhondo uteruye igikoresho umuguzi ari kugura, imbere yabo hari imiheha y'umweru, umuguzi afite igikapu cy'umweru.

Inzu y'ubucuruzi ifite urusakaro rw'umweru rurimo amatara, ikagira ibicuruzwa bipanze ku dutanda tugeretse kane, ibicuruzwa byiganjemo imitobe y'umukara, umuhondo, umutuku, bikagiramo amata, bikagiramo biswi n'imyenda n'ibipapuro by'isuku.

Ububiko bwi'ibyokunywa bukubiyemo imitobe umuhondo, umutuku n'amata bubitse mu buryo bwo kugirango bukonjeshwe bukunze kwifashishwa n'abacuruzi kugira ibyo kunywa bidapfa kandi babishyikirize abaguzi bimeze neza.

Umuguzi wambaye ikoti ry'icyatsi, ingofero y'umukara iriho amagambo y'ubururu n'umupira wa oranje; ateruye igicuruzwa cy'umuhondo, ari mu nzu y'ubucuruzi nini ifite udutanda turiho ibicuruzwa birimo: amavuta yo guteka, ifu y'amata, impapuro z'isuku.